Iguriro ry'imiti y'ibihingwa, aho harimo imiti myinshi igiye itandukanye, abacuruzi bacuruza bayiha abahinzi bakaza bakayigura, bari kugira ngo birukane udusimba twibasira imyaka tugiye dutandukanye, kugira ngo iyi miti ibashe kutwica babone umusaruro uhagije,

Umuti w'ibihingwa witwa Detane aho bawukoresha utera awushize mu mazi cyangwa se mu cyuma bagatera nk'ibirayi ,kugira ngo barwanye udukoko twibasira imyaka bigatuma itera neza.

Abahinzi bari kwita ku muceri, bambaye imyenda cyangwa se amakoti y'amashashi n'amapantaro y'amashashi y'imihondo. Bahetse ibyuma by'umweru cyangwa se amapompo bari gutera imiti umuceri mu gishanga. Bari kwamagana cyangwa se bari kwirukana udukoko twangiza umuceri mu murima.

Umurima w'ibigori , iruhande hari umugore wambaye ijipo, ndetse n'umupira w'umutuku ari gushyira mu murima ifumbire y'imborera iruhande hari umucaca batarahinga, ndetse bigaragara ko aho bari guhinga bari kugenda bashyiramo ifumbire mborera, kugira ngo yongere umusaruro.

Imiti yo mu bwoko bwinshi butandukanye yifashishwa bari kuhira ibimera cyangwa se bari kwirinda ibyonnyi harimo imwe ituma ibihingwa bikura indi ikaba irwanya udusimba twibasira ibihingwa.

Busheri cyangwa se aho bagurishiriza inyama, higanjemo amafi aho bajya kuyaroba mu Kivu cyangwa se mu ruzi, bakayazana aha, abaturage bakaza kuyahagurira biboroheye.

Isahani y'umweru iriho ibyo kurya bitandukanye byiganjemo ifi ndetse n'ibirungo, ndetse n'isosi yo kurisha ifi. Harimo ifi ebyiri ziryoshye cyane.

Ubwoko bw'inyamaswa bwororerwa mu mazi cyangwa se amafi, aho bari bayakuye mu mazi bayarobye ndetse bayakuyemo iby'imbere, hategerejwe ko hano baza kuyagura bakajya kuyateka.

Ubwoko bw'inyamaswa zo mu mazi bwitwa ifi, bukaba buvukira mu mazi bugakurira mu mazi, bukororokera mu mazi, bukaba bwifashishwa nk'ibiribwa abantu barya mu buryo butandukanye.

Inyamaswa zo mu mumazi, cyangwa se ifi ebyiri, ziri muri firigo, cyangwa se icyuma gikonjesha, aho zirimo kugira ngo zongere igihe cyo kubaho, kugira ngo birinde ko zipfa.

Ubwoko bwa mafi yororerwa mu mazi aru mu ibase bari bavuye kuyaroba aho abakiriya baza bakayagura cyangwa se abarobyi bakayateka bayateka bayokeje cyangwa se bakayateka bisanzwe mu masafuriya.

Ubwato bw'ibiti buri mu mazi harimo abagabo bane cyangwa se abarobyi, aho baba baje kuroba bazanye indobane, bakaroba amafi bakajya kuyacuruza andi cyangwa se bakajya kuyarya ukwabo.

Umurara cyangwa se umurima basaruyemo ibyokurya, bakaba barawuretse kugira ngo ubanze uhore neza kugira ngo igihe gihingwa bazahingamo, kizabe gifite intungamubiri zakuwe mu butaka kuko bwahoze neza.

Umurima udahinzemo, cyangwa se wameze ibyatsi, basaruye ibyo kurya hasigayemo amateke ari mu murima, hirya hari ibigori, ibiti ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, byimejeje bya kimeza, dutegereje ko uyu murima bawuhingamo, barawuraje kugira ngo umusaruro bazabonamo uzabe uhagije ku byo bazahingamo.

Umurima wasaruwemo ibigori ,umuturage yawuraje kugira ngo ategereze igihe cy'ihinga. Uku kuwuraza bikongera umusaruro w'ikindi gihingwa azahingamo.

Intusi ubwoko bw'ibiti byera mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye ,bukaba bukura bujya hejuru cyane ndetse bugafata ubutaka bukaburinda isuri ndetse n'inkwangu mu rwanda.

Amashaza cyangwa se amajeri ari mu murima ntago arera atangiye kuzana uruyange ,inyuma yaho hakikijwe n'umurima utarimo ibintu, hirya hari imishingiriro ndetse n'ibiti.

Umurima w'ibirayi bigiye kwera, ni byinshi cyane biri mu mitabo, ndetse harimo n'ibigori byumye basaruye, iruhande hari ibiti birebire cyane ndetse n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye.

Ikibaya kinini kirimo ibyatsi ndetse harimo n'amajeri cyangwa se amashaza aho atarera atangiye kuzana uruyange, hirya y'aho hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse hari n'intabire ihinzemo ibitunguru, hirya y'aho hari ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Amavoka menshi agiye atandukanye adahiye ari mu makarito, aho bayapakira mu makarito kugira ngo uburyo bwo kuyatwara bworohe, bagiye kuyohereza hanze y'igihugu cyangwa se mu mahanga.

Ibirayi byeze bimeze neza biri mu bwoko bwa kirundo, aho bikunze kwera mu nce zo mu Majyaruguru, Musanze mu Kinigi, cyangwa se muri Nyabihu na Rubavu.

Amateke cyangwa se amabwayisi, aho yerera mu butaka bakayasarura bakayateka bamaze kuyahata, aho agira intungamubir, ari mu binyamafuho.

Umurima cyangwa se intabire zirimo abagore, ndetse n'abagabo, bigaragara ko bari gutera imbuto, ibyo kurya bitandukanye, aho bagiye bamenamo n'amazi, kuko ubutaka bwumye cyane.

Umuhinzi ufite isuka, akenyeye igitenge yambaye n'agapira ari guhinga isuka iri hejuru, ari guhinga mu muririma harimo imisambya ndetse n'imitabo. Iruhande hari ikiraro gisakajwe amahema cyangwa se shitingi y'umweru.

Ubuhunikiro bw'ibigori busakajwe amabati ndetse mu mpande hari ibiti by'umukara n'amabati atukura; buriho n'ibiti bitambitse banikaho ibigori bivuye mu murima bategereje ko byuma neza bakabihungura bikababyifashishwa bari gukora ifu ndetse bagakoramo n'imbuto kugira ngo babone imbuto zo gutera z'ibigori.

Igiti cy'inyanya hariho inyanya zeze ndetse n'izitarera, aho iyo zeze zikorwamo salisa cyangwa se bazongerera ubuziranenge cyangwa se igihe cyo kugirango zidapfa vuba bakazikoramo salisa cyangwa se sositomate ndetse izindi zikaribwa mu mboga bisanzwe.

Abagore batatu bari imbere y'ibisheke ,inyuma yabo hari icyapa gishishikariza abantu kwirinda coronavirusi, ndetse ku ruhande hari agakiyosike ka emutiyene karimo umuntu uri gucuruza mitiyu ndetse na mobilemani.

Ikusanyirizo ry'amata, aho hari ikintu k'icyuma bari gusukamo amata bari kuyakura mu gicuba, aho amata aba agiye ava ahantu hatandukanye bakaza bakayahuriza ahantu hamwe, aho amata bongera bakayatunganya bakayakoramo foromaje, amavuta y'inka ndetse n'ibivuguto.

Ubwoko bw'ibiribwa biri mu binyamafufu bizwi nk'ibijumba, aho byeze byavuye mu murima, aho byera bira mu butaka bikagira imigozi hejuru bikera birandaranda aho byera mu butaka.

Imifuka y'ibirayi iri mu isoko iri mu ngano zitandukanye mu mifuka itandukanye ifite amabara atandukanye, hari ibyuzuye hari n'ibice ndetse n'abagore bari gucuruza bategereje abaguzi ko baza bakagura ibirayi.

Abahinzi cyangwa se abakozi higanjemo abagore bambaye imipira ,ndetse n'ibitenge ,bari gukura ibirayi by'ubwoko bwa ku ruseke ,bihingwa bikunze guhingwa i musanze cyangwa se n'ahandi hantu.

Inkoko cyangwa se intara iriho ibinyomoro biri mu ishashi n'ibiteretse ku nkoko hirya hari wotameloni ndetse n'imyembe hirya hakaba imyenda iri mu isoko itegereje ko abakiraya baza kubigura.

Abahinzi cyangwa se abantu uri gusarura icyayi mu murima ,yambaye ishashi ndetse mu mugongo hari igitebo cyangwa se igitukuru ,bari mu murima ni benshi bari gusarura.

Imbuto yo mu bwoko bwa avoka aho zikiri mu giti, zigiye kugera igihe cyo gusarurwa, aho bazisarura bakazirya zikase ku biryo cyangwa se hamwe na hamwe bakaba bazikoramo amavuta yo kwisiga agiye atandukanye.

Umurima urimo ibigori bitarera byiza cyane biri guheka byazanye ibisagi inyuma ya byo hari ikibaya kinini kirombereje kirimo ibiti, amazu ndetse inyuma hari uruzi runini cyane.

Ibigori byumye biri mu murima aho harimo ibyatsi hasi, ibigori bikaba byumye bakaba barabyumishije kugirango bazahite babikoremo impungure zo gukoramo akabuga cyangwa se ifu y'igikoma izindi bakazigira imbuto zo gutera.

Urubuto rwa voka ruhiye, rwerera ku giti hejuru. Abantu bakaba barwifashisha mu byo kurya bihiye, cyangwa se bakarurya rwonyine nk'urubuto, rukaba rwera mu Rwanda, ndetse n'ahandi hatandukanye.

Isoko cyangwa se iduka cyangwa se Butike irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imiceri y'amoko atandukanye hari umuceri, amavuta yo mu macupa ya Nili ndetse nay'inyange bigiye bitandukanye nari mu majerekani cyangwa se amagaro.

Imifuka myinshi yuzuyemo ibirayi, mufuka y'umweru, babiteretse hasi bivuye mu murima wabisaruye aho hari umugabo wicaye kuru ruhande uci mufuka utuzuye, bitegereje ko imodoka zikayitwara cyangwa se abaguzi baza bakayipima ku biro bakabigura.

Ihene ebyiri ziri mu kiraro cyazo gikozwe n'ibiti ,ndetse kikazengurukwa n'amabati ziri kuririsha ubwatsi baziritse ku giti ,ndetse hari ubwaguye ziri gukandagira.

Umugore witeze igitambaro ari guseka, yambaye ishati cy'umutuku ari mu murima w'ikawa ari kugaragaza umusaruro w'ikawa yasaruye bigaragara ko yawishimiye, ari kwamamaza umusaruro we.

Ibihaza bine byiza biteretse ku mufuka w'umweru uri hasi uri ku muhanda, umuhanda w'igitaka . Imbere hari umwana uri kugenda yambaye iniforume cyangwa se impuzangano ,avuye ku ishuri.

Umufuka ushashe hasi kumapave, hariho inyanya zeze zimeze neza bari gucuruza, imbere hari ibase y'ubururu irimo izindi nyanya, aho bategereje abaguzi ngo baze bagure.

Ubwoko bw'igihingwa kitwa igishayote cyera ahantu hatandukanye, kikaba kera kirandaranda, cyurira ibiti cyangwa se ibihuru, cyangwa se ibikuta, bigaragara ko bari babisaruye. Birambitse ku imifuka y'umweru byiteguye kuribwa.

Abantu benshi harimo abambaye imyenda y'umweru ndetse n'andi bagiye batandukanye, bari mu murima w'ibishyimbo bafite imishingiriro cyangwa se imihembezo. Bari mu murima bari gushingirira kugira ngo ibishyimbo nibikura bitangiye kuzana imitwe bigenda byizengurutsa kuri iyo mishingiriro.

Umurima uteyemo inkeri ndetse harimo izeze. Mu umurima harimo umugore wambaye ikanzu y'igitenge, ndetse yambaye n'igishora mu mutwe. Imbere yaho hari umurima cyangwa se intabire ihinze idateyemo ikintu.

Ibinyamafufu cyangwa se ibijumba byeze, aho byerera mu butaka bikagira amababi azamuka hejuru ndetse n'imigozi, bikaba byeze babisaruye, bikaba bitegereje kuribwa aho biribwa nk'ifiriti cyangwa se bakabihata cyangwa se bakabitogosa bakabirya bihiye.

Umugore wambaye umupira wumutuku, witeze igitambaro cy'ubururu, akenyeye igitenge ari mu murima w'ibirayi, ari kuhira aho ibirayi bitarera neza baracyabyitaho biterwa imiti ndetse barabibagara, inyuma ye hari umusozi uteyemo umucaca, nta gihingwa kirimo.

Imifuka ishashe ku mapave mu isoko, hariho ibitunguru bigiye bitandukanye bifunze mu mifungo aho umucuruzi ategereje ko abaguzi baza bakagura ibitunguru nawe akabona amafaranga.

Ibyatsi byinshi harimo n'igiti cy'isombe kivamo imyumbati yera, yerera mu butaka. Amababi bakaba bayifashisha bari gusekura isombe. Havamo ibyo kurya biribwa nk'imboga ariyo yitwa isombe.

Inanasi zeze zikuze ziri mu isoko, ziri ku mufuka w'umweru, hari umugore uri gucuruza, inyuma hari indobo ndetse n'icyuma cyangwa se indiga, indobo ebyiri zitandukanye, aho bategereje abakiriya ngo baze bagure inanasi.

Umwana wicaye hejuru y'igipangu, ufashe agakoni yambaye agapira k'umutuku. Munsi hari inka ziri mu kiraro cyazo mu kibuga zirabyagiye. Hari inka z'umukara harimo iy'umweru ndetse n'iy'igaju. Harimo inka zitandukanye zifite amahembe ndetse n'inkungu, cyangwa se inka zitagira amahembe. Munsi yazo hari igiti kidafite amashami menshi hari n'inzu, ndetse ruguru y'aho hari umuhanda.

Itsinda ry'abantu cyangwa se abaturage benshi batandukanye, aho bafite ibiti mu ntoki byo gutera cyangwa se ingemwe z'ibiti, bagiye kubitera bari gushishikariza abantu gutera ibiti ndetse n'amashyamba.

Insina y'igitoki igiye kugwa hasi. Hari ubutaka burimo butemo isombe zitarakura, aho bazisoroma zikazavamo izo kurya cyangwa se bagakuramo imyumbati bakayiteka.

Akameza gateretse hasi munsi yako harimo ibase, ndetse akameza gashashweho umufuka w'umweru, hariho inanasi zikorwamo ji cyangwa se bakazirya, bigaragara ko ku ruhande hari umuntu uhagaze.

Umufuka w'ubururu uriho isombe ziteretse hasi ku mufuka, izindi ziri hasi ku mapave. Inyuma hari akazu k'imbaho zisize irangi ry'ubururu, aho bategereje abakiriya ngo baze bagure izi sombe babasekurire.

Irerero ry'ibiti cyangwa se aho bafata urubuto rwa avoka cyangwa se ikindi giti runaka, bakabishyira mu gashashe, bakazashyiramo itaka, igiti kigakura bakakibangurira, bakagikuramo gikuze bakajya kugitera mu bundi butaka. Aho hantu kiba kitaweho cyane kurusha uko bajya gutera urubuto mu butaka.

Umunzani uteretse hasi, imbere hari imifuka esheshatu irimo imiteja itegereje ko abaguzi baza kuyigura, aho iribwa nk'imboga.

Isoko ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi benshi bagiye atandukanye, bafite imbuto nyinshi cyane harimo, inanasi, imyembe, amaronji, amapapayi, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye umupira w'umutuku, ukenyeye igitenge, yiteze igitambararo cy'ubururu ari mu murima w'ibirayi ari kubagara cyangwa se kuhira, hirya ye hari umusozi urimo umucaca nta kintu giteyemo.

Abantu benshi bahagaze bategereje gutwara ibiti cyangwa se guhugurwa uko bakoresha ibiti cyangwa se pepiniyeri, aho babikura mu mashashi bakajya kubitera bikazakura bikavamo ibiti bikuru cyangwa se binini aribyo bivamo n'imbuto ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Akayira gato kari mu murima w'ibigori, harimo abagore babiri umwe ahetse umwana bari gucamo, ibigori ni bikuru cyane, gusa birahetse ntambwo birera ntambwo biragera igihe cy'isarurwa.

Umurima w'ibigori bikiri bito cyane bitarazana ibisagi cyangwa se ngo biheke harimo abaturage baje batandukanye cyangwa se abahinzi baje kubyitaho ngo barebe aho bigeze byera.

Ibitebo byinshi cyane bigiye bitandukanye birimo inyanya zasaruwe, aho hari n'abantu benshi baje kuzigura cyangwa se bagiye kuzicuruza, harimo abagabo bambaye amashati ndetse n'amatisheti benshi cyane, iruhande hari itaka ryinshi rirunze rirombereje.

Abagabo babiri umwe yambaye agapira k'ubururu ndetse undi yambaye ingofero y'umutuku n'ikoti, ipantaro y'umutuku, bari mu bishyimbo bari kureba ko byeze, ko hajeho umushekwe ndetse ibishyimbo ntabwo birera neza, biracyari mu murima birashingiriye.

Abantu babiri harimo umwana umwe w'umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'umupira, ari kumwe n'umugore ukenyeye igitenge wikindiki n'umupira, yambaye n'agapira k'agasengeri kajya kuba ubururu, bari mu murima bari kubabagara ibishyimbo, ndetse inyuma yabo hari ibyatsi birimo n'isombe.

Amabuye arunze imbere y'umurima, aho umurima ukikijwe n'ibiti bizwi nk'ibiko, aho umurima bari bawusaruyemo, utegereje ko bawuhinga, aho bawureka bari kuwuraza kugira ngo ubutaka bufate akuka cyangwa se bukure intungamubiri hasi kugira ngo ikindi gihingwa bazateramo kizabashe gukura neza ndetse gitange n'umusaruro.

Umugore ufite ibisuko, wambaye ishati y'amakarokaro, ari kugosora afashe inkoko cyangwa se intara, ari kugosora, iruhande hari umugabo wambaye akajire ndetse n'agapira k'umukara, n'ubwanwa, ari kureba ukuntu ari kugosora.

Mu isoko ryiganjemo ibicuruzwa by'ibishyimbo bigiye bitandukanye, birimo amoko atandukanye, hari ibiri ku nkoko, hari ibiri ku mifuka iri ku bisima, bategereje abaguzi ngo baze bagure, ndetse hari n'umunzani bifashisha bari gupima ibiro abakiriya bagiye kugura.

Ubunyobwa buri mu mufuka ubundi buri hasi, buvuye mu murima ntabwo buratonorwa ariko burumye. Ikigaragara butegereje ko bawutonora ubundi bakabwumisha cyane, bakawujyana ku mashini ikawusya, bakawukoramo ifu cyangwa se ubundi bukaribwa ari bubisi cyangwa se bukaranze.

Igitebo cyangwa se igikoresho cyo mu rugo, bakora bakoresheje ibiti ndetse n'imigozi, aho cyifashishwa bari gutwara ibintu bigiye bitandukanye. Aha kirimo imiteja, bari gusoroma mu murima. Ndetse harimo n'ibishyimbo bitarera bifite imiteja.

Isoko cyangwa se ihuriro ry'abaturage aho bahurira baje kugura ibyo kurya bitandukanye, aho hari imifuka yuzuye ibishyimbo, hari iy'ibirayi ndetse hari n'abagore bicaye b'abacuruzi bategereje ko abakiriya baza bakagura, hari n'umuhungu wambaye agapira k'umutuku ari gucuruza ibishyimbo.

Ubwoko bw'imboga cyangwa se ibinyamisorwe buzwi nk'imiteja aho iri mu gapaniye k'icyatsi, aho yiteguye kuba yatekwa ikaribwa nk'imboga.

Ibishyimbo byera biri ku birandaranda byitwa Ruvuninkingi, aho byera ari byinshi cyane bikaba nk'igihuru, bigasoromwa inshuro nyinshi. Bikunda guhingwa mu Rwanda hatari henshi.

Amasaka bigaragaraga ko yeze ari mu murima ageze igihe cyo gusarurwa. Abaturage bakaba bayifashisha bari gukora ifu y'igikoma, imisororo ndetse n'imigati.

Ibinyampeke cyangwa se ibigori byumye bya manyiginya, bari kubyanika kugira ngo byume neza, babihungure, bibe byavamo ifu bakoramo igikoma cyangwa se bakoramo imitsima yo kurya.

Ubuhunikiro bw'ibigori cyangwa se aho banika ibigori bisaruwe bivuye mu murima, aho babyanika bategereje ko byuma neza bakaba babihungura, bakabikoramo ifu y'igikoma cyangwa se ifu y'ibigori yo kurya nk'umutsima.

Umurima wo mu bwoko bwa kijyambere, bateyemo amashaza cyangwa se amajeri, iruhande hari agapaniye cyangwa se agakapu basaruriramo, karimo amajeri bamaze gusarura cyangwa se gusoroma, bategereje ko bayatonora bakayateka.

Umugabo wambaye tishati y'umweru, yambaye ingofero y'umutuku ahetse igikapu cy'umukara. Hirya hari umugore wambaye igitambaro. Bari mu murima w'amasaka. Bari gusarura kugirango amasaka bajye kuyanika, niyuma bayakoramo ifu y'igikoma ndetse n'ifu y'umutsima y'amasaka.

Amasaka ari mu murima bigaragara ko yeze, ntabwo barayasarura. Aho bayasarura bakayakoramo ifu, bakoramo igikoma ndetse bakayakoramo n'umutsima. Ifu y'amasaka bakayikoramo umutsima, wakundaga kuribwa cyane mu Rwanda n'abakera.

Inka cyangwa se inyana yambaye iherena bashyira ku matwi, hari umuganga cyangwa se umuveterineri cyangwa se umuvuzi w'amatungo, azanye urushinge aje kuyitera bitewe n'indwara runaka yarwaye kugira ngo ikire.

Itsinda ry'abaganga n'abaforomo bari kwita ku murwayi wagize indwara, bisaba ko bamubaga kugira ngo amererwe neza, bari mu bitaro.

Inka nyinshi zo mu mabara atandukanye ziri mu kiraro cya kijyambere. Imbere hari abashumba ndetse n'abantu baje kuzireba benshi bagiye batandukanye bafite inkoni. Hari uwambaye ishati y'umweru, hari n'umugore wambaye bote ndetse n'ikote ry'umukara. Bari kuzireba uko zibayeho.

Inka ebyiri ziri kurisha urubingo imwe ifite amahembe indi ntayo ifite, imwe ifite amahembe ifite ibara ry'ifirezirambi, indi ni igaju zombi ziri kurisha.

Isoko ry'amatungo magufi harimo intama ndetse n'ihene. Harimo abaturage ndetse n'abaguzi benshi bagiye batandukanye, hari abaje kugurisha amatungo ndetse hari n'abaje kuyagura.

Abantu benshi bagiye batandukanye, bakikije umugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero ndetse n'ikoti ry'umukara, ni jingisi uri guha umwana igi, umwana wambaye agapira ndetse n'agakora, bigaragara ko bari kurwanya imirire mibi mu bana.

Ububiko bw'inyama cyangwa se aho babika inyama mu ibagiro, bategereje ko amasaha makumyabiri n'ane ashira, kugira ngo mikorobe cyangwa se udukoko tuba turi ku nyama dupfe neza, cyangwa se tuba turi mu nyama inka itarabagwa cyangwa se irindi tungo, kugira ngo zibashe kugira ubuziranenge zibashe kuribwa.

Umuveterineri cyangwa se umuvuzi w'amatungo aho ari kumwe n'abantu baje mu mahugurwa benshi, bigaragara ko ari abanyeshuri cyangwa se abantu baje gufata amahugurwa y'ukuntu inyamaswa zivurwa, bari kwigira ku ihene. Umuveterineri cyangwa se umuvuzi w'amatungo yambaye isarubeti ndetse n'agapfukamunwa n'akarinda imisatsi.

Itsinda ry'abanyeshuri ndetse n'umuveterineri n'umwarimu, bigaragara ko baje mu mahugurwa yo kwiga kuvura inka. Inka y'igaju ifite amahembe baziritse kugira ngo itabatera imigeri.

Intama z'umweru nyinshi cyane ziri kurisha ubwatsi mu kigo cy'amashuri asakajwe n'amabati y'ubururu ndetse yubukishijwe amatafari ya rukarakara.

Inkende ihagaze ku gipangu cy'icyuma gisizwe irangi ry'umukara, imbere hakaba hari umuhanda w'ibyerekezo byombi. Hakaba hari n'imikindo ndetse n'icyapa cyamamaza kiriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'icyapa kiriho ibara ry'umweru.

Ubwoko bw'inyamaswa zo mu bisimbagurika cyangwa se buzwi nk'igikeri aho gikeri gikunze kuba mu mazi. Mu buryo bwo kugenda kikaba kigenda gisimbuka cyangwa se gitaragurika kugira kive ahantu hamwe kijya ahandi.

Inyoni iri mu biti by'icyatsi ndetse ihagaze ku gati k'umukara , inyoni ikaba iri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo ikaba ifite umunwa muremure w'umukara, ndetse n'amaguru y'umukara.

Inyamaswa y'ishyamba izwi nk'ingwe iri kumwe n'ikibwana cyayo, aho biri kugenda mu muhanda w'itaka, itegereje ko haza utunyamaswa tundi duto tukabirya nk'ibiryo k'umuhigo.

Ikiyongoyongo cyangwa se ikinyoni kinini gifite umunwa muremure kiri imbere y'uruzi iruhande hari ibyatsi bigiye bitandukanye ikiyongoyongo kikaba kiri mw'ibara ry'umukara ndetse n'amaguru y'umukara kikaba kiri kureba mu mazi gitegereje ko hari agasimba ko mu mazi kazamuka kikakarya harimo nk'amafi ndetse n'utundi dusimba two mu mazi.